Abantu bari gushaka amazi ku isoko rusange. Umugore n'umwana bari kuzuza ibivomesho ku cyuma cy'amazi abandi bari ku murongo barabategereje. Hari ikibazo cy'uburyo abaturage bagezwaho serivisi z'ibanze, zirebana n'isuku n'ubuzima.

Ni ifu y'icyatsi ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, akenshi ikomoka ku bimera bifite akamaro mu kongerera umubiri ubudahangarwa, kuvura indwara zitandukanye cyangwa gusukura umubiri. Ikoreshwa bitewe n'ubwoko bwayo ikaba yavangwa mu mazi.

Ni umuti gakondo ukorwa mu bimera, ukorwa mu mavuta y'ingenzi n'andi y'ububoberi. Ukaba ugira inyungu mu buzima mu kurwanya kubabuka no kumagara kw'iminwa, kandi ufite ubushobozi bwo gukiza ibikomere bito.